Inzu isize irange ry'umuhondo, amadirishya akaba ariho iry'umweru. Handitseho ko bacuruza ibiryo by'amatungo, imbuto nziza ndetse n'inyongeramusaruro. Ubaye ubikeneye, wabahamagara kuri nomero ya telefone.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori, aho hateraniyemo imbaga y'abantu benshi bafite indobo, amabasi ndetse n'imifuka irimo imvaruganda kugira ngo bagende bakwiza hose bazabashe kubona umusaruro.

Icyumba gisize irange ry'umweru, hakaba harimo aka etageri gafite udupande tugiye dutandukanye, aho higanjemo utujerekani turimo amata, hari ahari n'utuji, hari ibikarito bipanzemo ibintu ndetse n'imifuka.

Imifuka ibiri ipfundikiye neza, aho irimo imvaruganda izwi nka DAP. Hagiye hariho uburyo wayikoresha, kugira ngo ibihingwa byawe birusheho kumererwa neza, kandi nawe uzabashe kubona umusaruro utubutse.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho harimo firigo ikonjesha, bafite amaji, amata, amabiki ndetse n'ibindi, aho bazi kwakira abakiriya neza kugira ngo babashe kubona inyungu.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori n'ibishyimbo mu buryo bwa kijyambere, harimo urujya n'uruza rw'abantu bafite ibikoresho birimo udukapu, amarori, utudobo ndetse n'ibindi aho bari kugenda basoroma ibishyimbo.

Umurima uhinzemo igiti cya avoka, aho bagishyizeho ifumbire zose zishoboka kandi baragisasira, abahanga bavuga ko cyerera umwaka umwe mu gihe ibindi bimara imyaka icumi.

Umurima uhinzemo ibigori, aho ari ibya kijyambere, kimwe gihetse bibiri ku buryo azabasha kubona umusaruro atari yiteze, guhinga si ugukina iyo wahinze uba wahinze.

Igikarito kinini kirimo avoka aho ari bwo bamaze kuzihanura, bakaba bagiye kuzitara kugira ngo nizimara gushya bazatangire guhaho umuryango bajyane no ku masoko kuko na bwo baba bakeneye n'amafaranga.

Umurima munini ku buryo utawuheza amaso, witegereje neza ushobora kugira ngo ni indabyo ariko sizo ahubwo ni igihingwa cy'amasaka aho yeze neza kandi ashishe kubera ko yitaweho.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'uruyuzi rwera ibihaza, hagiye harimo ibishyhnga aho bibuza kuba bahahinga kubera ko biba byatwaye umwanya munini, ni igihombo kuri nyiri umurima.

Umurima munini uhinzemo urutoki mu buryo bugezweho, aho buri nsina bagiye bayicukurira umwobo wayo bagashyiramo ifumbire bakabona kuyitera, none yazamutse ishushe cyane ku buryo mu gihe gitoya izaba yatangiye gutanga umusaruro.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'inyanya ariko zitaratukura, ziracyari ibitumbwe mbese ni icyatsi. Ariko mu minsi mike nizikomeza kubona izuba ndetse n'imvura iringaniye, zizaba zatangiye kwera.

Umurima mugari cyane uteyemo igihingwa cy'icyayi. Ntabwo gipfa guhingwa ahantu hose, ahubwo Leta itoranya agace runaka bitewe n'uko kihera, akaba ariho biyemeza kugihinga

Umurima uhinzemo mu buryo bw'akajagari aho hamwe hari imboga ahandi insina, ibiti ndetse n'avoka, iruhande rwabyo hari igipangu cyubakishije amapave ndetse hirya hari n'ibigori.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye nk'amateke, urutoki, icyayi ndetse n'ibigori, ni bimwe mu bikenerwa n'abantu benshi aho bivamo kawunga, igikoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo inyanya ariko zitarera, zirahundagaye cyane zifite imiteja ishimishije, ku buryo nizimamara kwera azaba afite akanyamuneza. Yateye imiti irwanya imvura ndetse n'ubusimba.

Umurima munini uhinzemo imboga zizwi nka dodo cyangwa se rwatsi, aho zikungahaye ku ntungamubiri irinda igwingira ndetse igatuma umuntu akura neza. Ishishikarizwa kenshi abana batoya ndetse n'abagore batwite.

Ibirayi byinshi birunze hasi aho harimo ibinini ndetse n'ibitoya bijyanwa ku isoko, hakavamo amafaranga abantu bakabasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye ndetse bigatuma banihaza no mu biribwa.

Umurima mugari cyane ugiye uhinzemo ibintu by'ubwoko butandukanye, hamwe hari ibigori byumye, ahandi amateke. Harimo kandi umuferege w'amazi aho iyo ari mu gihe cy'izuba buhira.

Ibihoho birimo ingemwe, aho bazihinariza zazamara gukura bakazimura, bakajya kuzitera mu murima wazo kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro. Abantu benshi barazikunda kuko ziba zaritaweho neza.

Imbuga irimo ibiti byinshi, ndetse n'akanyoni gafite ibara rya kacye, umunwa wako wakomeretse kandi karakanuye cyane, ni inyamaswa ikunzwe n'abantu ariko bakayangira ko yona.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, afite imbwa yagaramishije hasi aho ari kuyitera urushinge. Iruhande rwe hari igikarito kinini ndetse n'ameza ateretseho igikapu.

Icyumba kirambuyemo umukeka bateretseho agapira kane, gasa ibara ry'umweru aho hariho igishushanyo cy'inka ifite icebe rinini cyane, kuba batanga amata cyo rwose ni akarusho.

Umurima wateraniyemo imbaga y'abantu benshi bafite abasuka ya rugori ndetse n'amacaki, bari guhinga batanya kugira ngo barebe ko baza gucyura umubyizi kubera ukuntu ari benshi, hepfo yabo hari inzu ifite insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara afite ikida kinini, ahagararanye n'umukobwa wambaye ingofero y'umukara, agapira k'icyatsi n'ipantaro y'umweru, aho bari mu iduka ricuruza imiti y'inka, ndetse n'ibiyikomokaho.

Umurima uhinzemo ibihingwa bya kijyambere, aho hari umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi, ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote z'umukara, ari kugenda ashyiraho imishipiri kugira ngo baze kubitera biri ku murongo.

Umugore wambaye agapira k'umweru akenyeye igitenge, afite isuka ya rugori, aho ari guhinga umurima urimo ibyatsi ndetse n'igiti cy'umwembe. Inyuma ye hari ibigori byeze ariko batarasarura.

Umurima muremure cyane urimo ibyatsi, ibindi bice bikaba bihinze, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, aho bari kuganira ku ngingo zitandukanye, umwe ariwe uba imbere abayoboye

Umurima munini urimo abagore ndetse n'abagabo, aho umugabo umwe ari kubaka uruzitiro kugira ngo bakingirize ibigori biri haruguru, abajura batazabyonona. Hari kandi undi mugore uri guhingira ibijumba.

Umurima munini urimo urutoki ariko rutaratangira kwera, harimo umugabo wambaye imyenda y'imikara afite isuka ya rugori, aho ari kugenda ahingira izi nsina kugira ngo zizarusheho kwera neza.

Abaturage biganjemo urubyiruko, bari mu muhanda w'igitaka, aho bari kugenda baharura kugira ngo use neza. Muri iki gihe Abanyarwanda basobanukiwe akamaro ko kwiyubakira Igihugu cyabo.

Umurima munini cyane ukase mu buryo bwa kijyambere, aho harimo udupande twinshi cyane wagenda uhingamo ibintu by'ubwoko butandukanye, harimo umugore wambaye imyenda y'imikara, afite isuka ari gucukura imyobo.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ari mu murima aho yunamye agenda atera imbuto, hahinzemo kandi urutoki ndetse n'amateke, ni macye macye ku buryo azakuraho ayo kwirira gusa.

Isoko ry'imbuto, aho harimo ubwoko bugiye butandukanye, ziragaragara neza rwose. Bafite: ibinyomoro, imyembe, amaronji, inanasi, indimu, ibinyomoro ndetse na pome.

Inzu nini izwi, nk'ahabikwa ibintu kuko iyo bimaze gukurwa mu murima, biratunganywa neza, bigafungwa mu mifuka yabugenewe, bakabizana, kugira ngo abacuruzi bakomeye nibaza kurangura bazabibone ku buryo bworoshye.

Imifuka myinshi cyane ya rugano ipanze yuzuye no hejuru irimo umusaruro w'ibigori, aho byitaweho neza none na byo bikaba byareze; ariko abacuruzi bo mu bice bice bitandukanye bazahagana, maze baze bakureho ibyo kugurisha.

Imbuga ngari iteretseho imifuka minini ya rugano, ipakiye no hejuru aho bari buze kuyizirika kugirango ngo ibirimo bitazatakara, abantu iyo babyifuza bazana imodoka bagapakira ibyo bifuza byose.

Igitebo kibohesheje ibiti, bashyizemo inyanya z'umutuku. Umugore wambaye umupira w'ubururu akenyera igitenge, ari kwereka umugabo wambaye umupira w'umutuku, ukuntu afite inyanya nziza. Ndetse yamuhaye n'inoti ya bibiri mu ntoki.

Imbuga ngari cyane aho ari ikusanyirizo ry'imyaka igiye itandukanye, hateretse imifuka ya rugano ipakiyemo ibintu byinshi aho bayifunze kugira ngo imodoka ni ziza kuyitwara hatagira ibiza kwangirika.

Umurima mugari cyane uhinzemo ibirayi mu buryo bwa kijyambere, aho babitera bagashyiramo ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda, nyuma bakajya batera umuti kugira ngo imvura itazabiboza bakabasha kubura umusaruro wabo.

Abaturage biganjemo abagore bambaye ibitenge, barambuye shitingi nini bashyiraho ibigori, aho babonye umusaruro utubutse. Bari kugenda bakuraho ibishishwa kugira ngo babyanike, bibashe kuma.

Icyumba kinini kibikwamo ibintu bigiye bitandukanye. Aho baba barabitsemo kawunga, umuceri, agacupa ka sana ndetse n'isukari, iyo ubishaka uraza ukavuga ibyo wifuza uko bingana bakagupakirira.

Umurima mugari cyane ugiye urimo ibiti by'intatane, muri iki gihe isambu yarahenze ku buryo udafite ari hejuru ya miliyoni udashobora kubona umurima wagura kandi koko ni mu gihe kuko ni ingenzi cyane.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umweru, aho harambuyeho ibintu by'ubururu bashyiraho imifuka ya rugano ipakiyemo ibintu byinshi, kugira ngo nibaza kubitwara bazabone uko bagenda babikuraho.

Inzu nini izwi nk'ahakusanyirizwa imyaka akaba ari ho ihunikwa, kugira ngo abantu nibayikenera bazabe bazi aho bashobora kuyisanga ku buryo bworoshye, kandi icyo wifuza cyose kiba gihari, ndetse hari n'abagabo bashobora kugutwaza.

Ikibogisi kinini kirimo avoka zifite ibara ry'icyatsi aho aribwo bakimara kuzihanura, hakurikiyeho gufata umufuka munini bakazirundamo kugira ngo zizashye bazijyane ku isoko.

Igishanga kinini kirimo ibyatsi ndetse n'amazi menshi aho hakunze guhingwamo umuceri kuko ari wo uyakenera cyane kugira ngo were, iyo uwuhinze imusozi urarumba ukaba nta kintu wakuramo.

Ameza maremare asutseho ibishyimbo by'umutuku, aho umusaruro wabaye mwinshi bakagera n'ubwo basagurira amasoko, kugira ngo abadahinga nabo babashe kwihaza ku bitera imbaraga.

Umurima uhinzemo igihingwa kizwi nka karoti, aho zashishe cyane ubu ziri mu gihe wavuga ko bagiye gusarura, hateyemo kandi igiti cy'umwumbati, ubu bashobora gutangira kuzijyana ku isoko.

Umugabo wambaye ikote ry'umutuku, ari mu murima uhinzemo ibinyomoro mu buryo bwa kijyambere. Aho bitaratangira gutera ariko mu minsi mike kubera ukuntu aba yabyitayeho azaba yatangiye kubona umusaruro.

Isoko ririmo utubati tugiye tugerekeranye, aho harunzeho ibitunguru by'umutuku. Abaguzi iyo baje babaza ibiciro, bakabapakirira hanyuma bagatega imodoka ibageza aho bakorera.

Imbuga irimo amapave aho umugore ukenyeye igitenge yateretse amabase abiri, imwe y'umutuku irimo avoka ndetse n'indi y'umuhondo irimo amaronji ndetse n'ibinyomoro.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bateruye ibase nini y'umukara aho basoromeyemo amatunda, baracyahagaze mu murima aho ahinze ku buryo bayitayeho mu buryo bwa kijyambere, none bakaba batangiye kubona umusaruro.

Isoko risakaye hejuru aho harimo utubati tugiye tubikwamo ibicuruzwa bitandukanye, hateretseho watermellon, imineke ya kamara, avoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo urusenda, kubera ko barwitayeho, rukaba rufite ibitesha byinshi rutohagiye cyane. Abantu benshi biganjemo abakuru, akubwira ko adashobora gukora mu biryo, mu gihe urusenda rutaraboneka.

Umurima mugari cyane uhinzemo imboga za dodo, aho abantu bashishikarizwa kuzihinga mu mirima yabo, yaba n'uturima tw'igikoni. Kugira ngo babashe kwihaza n'imiryango yabo maze birinde bwaki.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko maremare, afite ibisuko yahambiriye cyane. Ari gusoma amatunda mu murima, aho nta kintu yazanye cyo gutwaramo, ari kugenda ashyira mu ntoki ariko kubera ko ari menshi, agiye kujya kugishaka.

Isoko rinini ririmo utubati dukoze mu mbaho, aho bateretseho ibizwi nk'ibihaza cyangwa amadegede, abantu bamwe barabikunda naho abandi bakavuga ko nta buryohe bigira.

Ibasi ifite ibara ry'umutuku, aho basoromye intoryi, bakaba bazishyizemo. Ni dukeya, ntabwo ziratangira kwera. Bari bazizanye, ngo bumve niba ziryoshye, bazabona amafaranga.

Inzu nziza zisize amarange y'umweru n'ikigina, ifite kandi igipangu kinini gisize irange ry'icyatsi, hanze hari ubusitani bukase neza ndetse indabo n'ibiti by'imikindo.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu murima uteyemo inyanya, aho ku nkengero hari amateke ndetse n'ibigori byakuze cyane kuko byabonye imvaruganda, harimo kandi n'ibishyimbo.

Isoko rifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho bafite pavuro, ibitunguru, imboga rwatsi ndetse bafite na korojeti. Wabagana ukihahira dore ko ibiciro ari bito cyane.

Umurima mugari cyane urimo urujya n'uruza rw'abantu benshi, aho bafite impombo zigiye zitandukanye, zifashishwa buhira ahantu hanini cyane kandi mu gihe gitoya bitamugoye.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara n'agapira ka rakosite ndetse n'ipantaro, ari mu murima uhinzemo ibishyimbo, aho afite impombo ari kuhiza. Ni uburyo bwiza kuko bikorwa mu gihe gitoya kandi bikihuta.

Imbuga irimo amazu menshi cyane ariko yubatse mu buryo bwa gakondo, aho amabati yayo ashaje ndetse n'ibikuta bikaba bisa nabi, bashyizeho kandi utudirishya dutoya ndetse n'umuryango ufunganye.

Igishanga kirekire cyane, aho hamwe hagiye harimo amazi ahandi ibyatsi, ni byiza guhingamo umuceri kuko ukenera ahantu hari amazi menshi kugira ngo uzabashe gukura neza uboneke harimo umusaruro.

Icyumba gitoya kirimo inkoko zizwi nka saso, aho abahanga bavuga ko zikurira amezi atatu zikaba zatangiye gutera ndetse izindi bakazijyana ku isoko bakaba bazitekamo inyama.

Ikigurube kinini gifite ibyoya by'umweru cyaryamye hasi mu isayo. Abaturage benshi bakunze kuzorora kuko bavuga ko zitanga umusaruro mu gihe gitoya ndetse ukaba wabona n'ifumbire yo kwifashisha.

Inka ifite amabara y'umweru n'umukara, iri mu kiraro gifite ibiti bikeya ku buryo yacamo rwose ikigendera ariko bayihaye ubwatsi, ntabwo ishobora kubusiga ngo ibe yagenda.

Ikiraro kirimo inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ihene aho biri kurishiriza hamwe bigaterana apeti, hari akana gatoya kambaye umupira usa nabi w'ikake ndetse n'ak'umutuku imbere.

Icyumba kinini bororeramo inkoko za kijyambere, aho baziha amazi, ibiryo ndetse n'amatara aziboneshereza kugira ngo zibashe gutanga umusaruro w'amagi ndetse n'igihe bazijyanye ku isoko, bazabone amafaranga.

Ibibwana byinshi by'ingurube byashyizwe ahantu hamwe, aho kimwe gifite ibara ry'umweru gusa na ho ikindi hakaba harimo n'umukara. Bazizanira ibiryo hamwe ndetse n'ibyo kunywa maze bagakomeza kuzitaho kugira ngo zikure neza.

Abagabo batatu babiri muri bo bashoreye inka aho bafite inkoni mu ntoki, muri iki gihe ntibikemewe kuzishora kuko baba bateganya ko zishobora kugenda zitera umwanda mu nzira ndetse zikanona.

Ihene ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara bayambitse ikiziriko bayizirika ku biti, aho nta bwatsi bayisigiye ariko iritonda cyane itegereza ko nyirayo aza kuza akayahirira ikabona kurisha.

Inzu isakaje amabati, ikaba yubakishije ibiti cyane cyane hasi ariho hakenyeye, hariho inzugi zikoze mu mbaho, biragaragara ko yaba ari ikiraro cy'inka cyangwa se icy'ingurube ndetse n'ihene.

Akazu gatoya gashaje bateyeho umucanga ariko ukaba warashizeho, mu mbuga yayo harimo umugabo ndetse n'umugore, bari mu kigero k'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo ine aho bafite ibiziriko by'ihene.

Uruzitiro bubatse hirya no hino basiga umwanya inka zizajya zinjiriramo, aho iyo zigezemo bazitera urushinge cyangwa bakazana ibimasa byo kuzimya kugira ngo mu gihe gitoya zizabe zibyaye.

Umugabo wambaye akagofero k'umukara n'igipira k'imbeho, hari icumugizo yaziritseho ihene ebyiri, ari kuzitegereza kugira ngo amenye niba zashonje ajye kuzahirira ubwatsi kugira ngo zitirirwa ziri gusakuza ku gasozi kubera inzara.

Inka yarwaye inanutse cyane ifite ibara ry'umukara wagira ngo ni ihene rwose, yarashonje iri mu kiraro gisa nabi kitubakiye kandi gisakaje ibyatsi, ku buryo ari mu gihe cy'imvura yanyagirwa.

Inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Iri mu kiraro kiriho ibiti bikeya. Hashashemo ibyatsi ndetse bayihaye urubingo, aho iri kugenda irisha kugira ngo ikomeze kumererwa neza.

Imbuga iryamyemo ihene ifite ibara ry'umukara ndetse n'ikigina, aho hari ikiraro. Ubwatsi bwayo buri hejuru ntiyabushyikira kandi iriryamiye. Ubwo bivuze ko bayihaye ibyo kurya hakiri kare.

Umugabo wambaye ishati ya kakaro n'ipantaro y'umukara yadundaraye mu mbuga aho ari kugaburira inkoko ze. Inzu imuri iruhande yubakishije ibyondo ndetse n'ibiti aho yashaje cyane yenda kumugwaho.

Inkoko nyinshi zirunze hamwe, izizwi nk'izikura mu mezi atatu zikaba zatangiye gutera cyangwa bakaba bazitekamo inyama, ni bwo ubasha kuba wamenya ko abantu bateye imbere kuko ibyo ntibyari bisanzwe bibaho.

Inzu iteye umucanga, mu mbuga yayo harimo ibishishwa by'ibishyimbo, aho hadagayemo inkoko nyinshi zigenda zitorera udusimba. Hari kandi ikigega cy'umukara cyubakiye n'amabuye ndetse n'isima.

Ikigurube kinini cyane aho cyabyaye utwana twinshi, abantu akaba ari na cyo bagikundira. Cyarambaraye hasi twose turi ku mabere turi kugenda twonka. Iruhande rwabyo hari ikijerekani inyweramo amazi.

Ikiraro cy'inka cyubatse mu buryo butagezweho, aho bororeramo inka akaba ari ebyiri. Hari abagabo babiri bashinzwe kuzitaho umunsi ku munsi, kugira ngo bamenye niba zariye cyangwa se zanyoye.

Inka ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, bayambitse iherena ku gutwi kugira ngo igihe nikigera izabyare inyana babone amata ndetse banayigurisha, iri mu gisambu kinini aho iri kurisha ubwatsi.

Ikiraro kirimo ibyatsi bishashije hasi ndetse bashyizeho n'ibyondo ku nzu, harimo inkare ifite ibara ry'umukara, aho imaze kubyara akanyana gatoya, ndetse gashimishije kukitegereza.

Ikigurube kinini cyakuze, gifite ibara ry'umweru, bagihaye ubwatsi nibwo gihugiyeho. Iruhande rwayo, hari ikijerekani bayiheramo ibyo kunywa, yaba ibivuzo ndetse n'amazi.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara, agapira gatoya ndetse akenyeye n'igitenge, ari kumwe n'akana ke gatoya kamuhagaze iruhande, yashinze inshumagizo aho afite ihene ari kuzirikaho ngo irishe ibyatsi bihari.

Imbuga ngari irimo abantu benshi abagore ndetse n'abagabo, aho bari baje gufata ingurube bahawe na leta kugira ngo bazabashe kwiteza imbere, babone ifumbire bahinge maze beze.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu yaba abakiriya ndetse n'abagurisha, hari umugore uri gucuruza amashu aho yatohagiye ari meza cyane.

Ibyatsi byinshi bifite amabara y'icyatsi, aho hari ibitaka birunzemo ibirayi byinshi wakwifashisha ubijyana ku isoko ukabona amafaranga.

Umurima munini aho binariza ingemwe zigiye zitandukanye, baba barubatse ibiti bagasakazaho ibyatsi kugira ngo izuba ryinshi ritazabyica ndetse n'imvura nyinshi ikaba ari mbi kuri ibi bihingwa.

Ikiganza cy'umuntu ufashe igihoho, kirimo itaka binajemo igiti kikaba gitoshye, ahagaze mu murima uteyemo imbuto z'amashu, aho zarumbye amwe akaba atazanera, kubera ko nta fumbire yabonye.

Ibigori byinshi bitangiye kwera, barabisaruye babimanika ku giti kugira ngo bikubitwe n'izuba, bazabivovore babyanike babivungure, hanyuma bajye kubisheshamo igikoma cyangwa akawunga.

Shitingi ifite ibara ry'umweru batanduyeho ibigori byinshi, byamaze kuvovorwa, bikaba bisigaje kuvungurwa, kugira ngo bajye kubisheshe. Abantu benshi bakunze kubirya bikiri bibisi, kuko ni bwo biryoha cyane.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ari gukama inka ifite ibara ry'umweru, ariko kubera ko bayisasiye utuntu dukeya, yaranduye cyane ibisogororo biyijya ku ruhu, ku buryo kubikuraho bizasaba imbaraga.

Inka iri mu cyumba, aho kiriho umucanga. Imaze kubyara ako kanya, ntirata umuziha. Inyana yayo iryamye ku ruhande, aho bayisasiye utwatsi. Nimara gutuza, barayiha ibyo kurya ndetse no kunywa kugira ngo bayondore.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ririmo n'amabara y'umukara n'umweru, ari kumwe n'undi, aho bafashe inka bakaba bari kuyambika iherena kugira ngo mu minsi mike izabe ihaka, itangire kubaha amata ndetse bazagurishe n'iyikomokaho.

Uruzitiro runini bakoresheje ibyuma, aho bashyizemo inka nyinshi iz'umukara, umweru, ikigina ndetse hahagazemo abantu bari kuzitaho n'umugabo uhetse icyuma azitera umuti.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu, ari kumwe n'undi wambaye ikoti, aho bafashe inka ifite ibara ry'umukara, bakaba bari kuyitera urushinge kugira ngo bayirinde indwara zigiye zitandukanye.

Ingagi nini cyane ifite ibara ry'umukara, aho yaryamye mu byatsi. Ni inyamaswa ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda, aho abanyamahanga benshi bakunze kuza mu Rwanda ari cyo kibazanye kugira ngo birebere ibyo byiza.

Ihene ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara mu maso, bayiziritse ahantu hari ibihuru byinshi kugira ngo ibi irisha itahe yahaze ariko si byiza kuyihasiga yonyine kuko hashobora kuza ibisimba bikayigirira nabi.

Inzu isize irange ry'umweru, ingende ebyiri akana ndetse na nyina byegamiye ku nkingi yayo, wakwibaza uti ko zidahinga zibaho zite? uburyo rero ziteye iyo uziciyeho ufite ikintu zirakwambura zikirira.

Ingagi yuriye igiti ikaba yicayemo, abantu benshi bakunze kuvuga ko zimeze nk'abantu kubera ubwenge ziba zifite ndetse n'ubwitonzi, zikagira ikinyabupfura igihe ziri kumwe n'abantu kuko ari ingirakamaro zisurwa buri gihe.

Inyoni ifite utubara tw'ubururu n'umukara, ihagaze kuri fondasiyo yubakishije isima, aho iruhande rwayo hari ibyatsi, abantu benshi bibaza uko zibayeho zidahinga cyangwa ngo zigire akandi kazi.

Udusimba tubiri tuzwi nk'udusumbashyamba aho tugira amajosi maremare ndetse n'utubara twiza turyohera ba mukerarugendo kuzitegereza, zihagaze mu byatsi byinshi n'ibihuru aho hakurya hari ibiti birebire.

Ikinyoni cyakuze gifite amababa y'umukara ndetse n'umweru gihagaze ku giti. Abantu benshi bibaza icyo inyoni zirya kandi zidakora cyangwa ngo zihinge, ariko ugasanga zibayeho.

Ikiraro kirekire cyane cyubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga, iruhande rwacyo hakikije ibiti byinshi byorohera abaza kuhatembera, kuko bahasanga n'akayaga keza kavanze n'amahumbezi.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti byumye, aho harimo udukoko twitwa imparage, tuba dufite amabara meza y'umweru ndetse n'umukara. Abakerarugendo benshi baza ari two bifuza kwirebera.

Ingagi ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, yicaye mu byatsi byinshi. Ba mukerarugendo baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, iby'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse n'ibindi bitandukanye, bakaza kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda.